Itsinda ry'abantu bicaye hafi y'ameza iriho amacupa menshi yamazi, bambaye imipira yera iriho ikirango cy'ibendera ry'u Rwanda. Buri wese afite ikirango cy'izina rye imbere ye hamwe n'undi umwe uhagaze yerekana cyangwa atanga amabwiriza.

Urukuta rw'urubuga irembo rw'ifishi y'icyemezo cyo gutura, kigaragaza imyirondoro y'akagari, ndetse n'aho nyir'ifishi atuye.

Ikamyo: itwaye ibicupa bya gaze ,bifungiranye igenda muri kaburimbo, iruhande rw'ubusitani, burimo ibiti birebire.

Imodoka nini zitwara abagenzi zihagaze mu muhanda wamabuye, abagenzi bahagaze iruhande rw'imodoka bategereje kwinjira muri izo modoka zibatwara muri gare.

Inzu nini igeretse isa umweru, iriho amadirishya y'umukara, ifite urukuta rwubatse n'amatafari ariho senyenge hamwe n'ubusitani burimo ibiti.